Umusaza wambaye ikote ry'umukara ndetse akaba afite ihene mu ntoki ze kandi akaba afite ingofero mu ntoki imbere ye, hari umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ingofero y'umutuku uri kumubwira aho ari bujyane

Abaganga batanu bambaye ubupfukamunwa bw'umweru ndetse n'ingofero z'imyeru, bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, bakaba bamusasiye amashuka y'ubururu ndetse bakanamworosa ibitambaro by'ubururu.

Imodoka ihagaze mu gisambu ikaba yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, impande yaho hari abagabo babiri bambaye udupfukamunwa bafite agasanduka bakaba bagiye kukayishyiramo.

inzu nziza iteguye irimo intebe z'imikara ndetse n'ameza n'indabyo, hakaba hari umugore ufite indangururamajwi uhagaze imbere akaba ari gusoma impapuro ndetse n'ibitabo.

Salle nini cyane yariyateraniyemo abanyeshuri biga muri Kaminuza, bari guhabwa inyigisho ukuntu wakoresha agakingirizo ndetse n'ukuntu mwakwirinda SIDA ndetse no kuyitera abandi mu gihe uyirwaye.

Ibitaro bya kijyambere bifasha ababyeyi babyara ndetse n'abandi bantu barwaye hakaba hari imbangukiragutabara ibiparitse imbere ndetse n'ikigega kijyamo amazi ava ku mabati y'ibyo bitaro.

Ubutabazi bw'ibanze bwakozwe n'abagabo bambaye amajire y'imituku ndetse harimo ibara ry'umweru ndetse n'amashati magufiya, bakaba bateruye umuntu bamujyanye, uko bigaragara ararwaye.

Ibitaro by'umurenge, hakaba hariyo imodoka y'imbangukiragutabara itwara indembe ndetse ikazanana n'imiti kuri ibyo bitaro, hanze hari abagabo ndetse n'abaganga bahagaze bari gushyiramo ibikoresho.

Isoko ricururizwamo amatungo, ingero nk'ihene ndetse n'intama haruguru hari ahacururizwa inkoko n'inkwavu, habanje kuba inama kugira ngo babanze kubashyira ku murongo bajye basora.

Abantu batatu bambaye amajire y'umuhondo ndetse n'icyatsi, mu mugongo hakaba hashushanyijemo umusaraba, bivuze ko bakorera Kuruwaruje umushinga wo gutabara indembe, bakaba bateruye umuntu bigaragara ko afite ikibazo.

Abagore n'abagabo bambaye amajile ashushanyijeho umusaraba mu mugongo y'imituku, bari guhabwa amabwiriza n'abayobozi babo bababwira uko ibintu bikorwa ndetse batanga n'ibitekerezo.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ikoranabuhanga, hakaba harimo abantu benshi, bamwe bambaye ibisarubeti by'ubururu ndetse n'udupfukamunwa n'utugofero tumeze nka supanete mu mutwe, bakaba bafunguye moteri iri aho, bakaba bari kuyisuzuma ikibazo yagize.

Ikibuga cyiza giteyemo ibyatsi by'icyatsi biringaniye, hakaba hahagazemo abagore batandatu bambaye imipira y'imyeru ndetse n'abagabo, bakaba bamanitse amaboko afite impapuro mu ntoki.

Icyumba kiza kiri muri bimwe mu bitaro bituriye akarere, hakaba harimo umuganga ufite ikaramu ndetse n'urupapuro, akaba yambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari gusinyira umurwayi.

Ku kigo cy'amashuri cyubatse hepfo y'ishyamba ry'inzitane, hakaba habereye umuhango wahuje abarimu ndetse n'abasirikare bari bambaye udupfukamunwa tw'umweru, aho bahuriye n'ababyeyi b'abanyeshuri barerera muri icyo kigo.

abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bishimye bari kureba muri camera wagirango ngo bari kwifotoza, umwe yicaye ku gitanda kiriho ishuka gifite amaguru abiri ndetse abandi babiri begereye ameza ndetse na kompuyuta na telefone icometse aho ngaho.

Nyuma y'uko umukino wahuzaga abanyeshuri urangiye babajyanye, babicaza ahantu ndetse abarezi babo bahagarara haruguru yabo barabaganiriza kugira ngo babashe kubaka umubano hagati yabo.

Inzu nziza cyane ifite urugi rw'umutuku rufunze, hakaba harimo ameza ateretseho mashini y'umweru icagize ku muririro w'amashanyarazi, hirya yaho hari umugabo witeguye kuza kuyikoresha.

Abagabo benshi bafite amafoto mu ntoki, arimo urupapuro rw'umweru, bigaragara nkaho ari abarimu bari muri jaride, begereye inzu nini cyane isize irangi ry'umweru, ifite inkingi ziyifashe.

Abagabo batatu bambaye imipira y'ubururu ndetse n'umweru, bakaba bambaye n'ubupfukamunwa bari koga kuri kandagira ukarabe, inyuma yaho hari ibyapa birimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'umweru, uhagaze i mpande y'umusirikare ufite ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, inyuma yaho hakaba hari abagore ndetse n'abagabo babaherekeje.

Ababyeyi bakigikiye abana babo baje kwa muganga, uko bigaragara baje gukingiza inkingo. Hari abaganga babiri bari kumwe yambaye ingofero, undi nayambaye, kandi umubyeyi umwe afite marete abandi bateruye abana bafite ibitambaro umuhutwe.

Ibitaro byegereye umurenge bikaba bisize irangi ry'umweru hakaba harimo amatara arikwaka ndetse n'ibitanda abarwayi bicaraho hakaba hari umubyeyi uteruye umwana.

Ibiti birebire byiza bicucitse bikikije inzu nziza bigaragara ko ari kwa muganga, hakaba haparitse imodoka y'imbangukiragutabara itwara indembe, hakaba hari umuhanda ugerayo ukoze kaburimbo.

Umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe wambaye ikote ry'umutuku, akaba ateretse agakapu ku gitanda, haruguru ye hakaba hari supanete izinze hejuru y'uburiri.

Abaganga batatu bambaye udupfukamunwa tw'umweru, umwe yambaye rinete z'amaso, bambaye ibisarobeti by'icyatsi, bakaba bari kwita ku murwayi ndetse bakaba bafite n'agasahane bazanamo ibikoresho.

Icyumba Kiza kirimo ibyapa by'umweru n'ubururu, hakaba hahagaze abagabo n'umugore bari imbere akaba amuheje ifoto yanditsemo amagambo menshi.

Abagabo bane ndetse n'umugore umwe bicaye ku meza bafite impapuro, bamwe bicaye kuruhande rwo haruguru abandi bicaye ku ruhande rwo hepfo wagira ngo hari ibintu bari kumvikanaho, ndetse cyangwa bakaba bari gusinya amasezerano ya bizinesi benda gukora.

Inzu ubu nini irimo irangi ry'umweru ndetse hakaba harimo abagabo n'abagore bambaye amataburiya y'imyeru bakaba bafite igitabo ndetse n'amacupa y'imyeru bigaragara nk'aho arimo imiti.

Umubyeyi uri mu cyumba akaba ateruye umwana, muganga akaba ari iruhande rwe ari gukora kuri uwo mwana, ndetse iruhande rwe hari ameza ariho ibitabo ndetse n'ikaramu.

Ahasuzumirwa udukoko dutera indwara, ku nzu isize irangi ry'umweru, hahagaze abagabo babiri ndetse n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umweru bakaba bari kuganira.

Abagabo babiri bambaye amatabuririya y'imyeru bakaba bari mu nzu, imbere yabo hari ibyuma ndetse n'utundi dukoresho turi mu ibara ry'umweru, hakaba hateretse akabuni gayifite umuvuniko w'umweru ndetse n'utundi twuma.

Ibitaro by'akarere byajemo abantu b'ingeri zose baje guhabwa serivisi zo gufatwa amaraso, ndetse n'abandi baje kwipimisha agakoko gatera sida kugira ngo barebe uko bahagaze. Hari umuganga uri kubafasha.

Uducupa tw'imiti duteretse mu gasanduka tukaba dufite imifuniko y'ubururu, hari umuntu ufashe kamwe mu ntoki, kakaba hariho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara.

Umukobwa mwiza wambaye itaburiya y'umweru akaba afite ikaramu ari kwandika ku meza bigaragara ko ari umuganga uri gusuzuma abarwayi ndetse akaza kubaha n'imiti hirya yaho hari umugabo wicaye asa nkaho ategereje.

Ikigo cy'amashuri y'incuke kirimo abana bigamo ndetse n'ababyeyi babo, bari kubafotora ndetse abandi babarera bari kubaha amata, kugira ngo bazakure neza kandi bazagire ubuzima bwiza.

Abana babiri bambaye imipira y'umweru ndetse n'amakoti ya gisirikare, umwe afite agakumbe k'umweru, bakaba bari kunywa amata, imbere yabo hari abantu bahagaze bari kubareba.

Ikigo cy'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, kiri hafi y'abaturage, hakaba hari ikibuga abanyeshuri bidagaduriramo mu gihe bagiye kuruhuka, ndetse n'igihe habaye amarushanwa y'ibigo.

Umugore mwiza ufite umwana mu ntoki wambaye agapira k'ubururu karimo amabara atambitse y'icyatsi bakaba bamuteruye bamujyanye kwa muganga kumukingiza urukingo.

Umubyeyi uteruye umwana, wambaye igitenge cy'icyatsi ,akaba ari kwa muganga bigaragara ko arwajije umwana we ,akaba ari kuvugana na muganga amubwira ibyo arwaye.

Isafuriya irimo: umuceri, ibitunguru ndetse n'ibindi bintu, iteretse ahantu ku mashyiga hanze. Hakaba hicaye abagore babiri uko bigaragara hari umugore wambaye igitenge cy'umuhondo ndetse nicy'ubururu.

Umugore ufite imisatsi iziritse, akaba ari ku gitanda akiryamyeho, kiriho ishuka y'ubururu ndetse hejuru hakaba hariho igishora cy'umweru, hirya ye hari akamashini kahateretse.

Imbuga nziza cyane iteyemo ibyatsi bya pasiparumu, hakaba hahagaze abana b'abanyeshuri bambaye inifomu ubona ko batetegereje, imbere yabo hari umwarimu ufite agati mu ntoki, uko bigaragara bari kuririmba.

Umugore wambaye ingofero y'umweru n'itaburiya ifite ikayi mu ntoki, uri ahantu muri raboratwari aho hakorerwa ubushakashatsi ku bijyanye n'udukoko dutera indwara ndetse n'ibindi bibazo.

Ababyeyi bakora mu bigo by'incuke bari kugaburira abana amafunguro ya saa sita ndetse banayabashyira aho bicaye banerebereka uko barya.

Ibirori byabereye impande y'Akagari kubakishijwe amabati y'umutuku ndetse amagambo ariho akaba yanditse mu ibara ry'ubururu, hasi y'aho hari abagabo ndetse n'abagore bateruye abana bahicaye.

Umubyeyi wambaye umupira w'umweru ndetse na rinete ufite indangururamajwi y'umukara akaba ahagaze imbere inyuma ye hari umugabo umukikije akaba ari kugeza ijambo ku baturage.

Inama yahuje abayobozi bicaye ku ntebe z'imikara bamwe bari hasi abandi bari hejuru, hari ibyapa byanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara n'umweru ndetse biteretse amazi harimo n'abapolisi.

Amazu manini ateyeho ibiti ,hanze hakaba hari imbuga nziza ihagazeho abazungu ndetse n'abanyarwanda ,hari ibyapa by'ubururu byandikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru, bahagaze imbere yabyo.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ikaba, irimo amadirishya ndetse ikaba isize uruhande rumwe irangi ry'umuhondo, rikaba ryanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu. Ku ruhande hakaba hamanitseho kizimyamwoto.

Ishyamba riteye ahantu ririmo ibiti by'ubwoko bwiza kandi bwinshi, hakaba hahagazemo ababyeyi ndetse n'abana babo bambaye imipira y'imweru ndetse n'udushati tw'icyatsi hakaba hari umugore ubahagaze imbere ufite mikoro.

Abagabo babiri ndetse n'abakobwa babiri basutse imisatsi hakaba harimo umugabo ufite ubwanwa, imbere y'aho hari ameza bashyizeho amatelefone yabo, bakaba bafite udupapuro mu ntoki turi mu mabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abagabo b'abazungu ndetse n'abagore bakaba bambaye imipira y'imweru bari kumwe n'abandi bambaye amakositimu y'imikara, bakaba bazamuye amaboko, abandi bari inyuma yaho bari kuririmba, bivuze ko bavuye mu nama.

Umubyeyi mureba aha atuganirije ukuntu yihangiye umurimo akava ku mafaranga make akagera kuri menshi akabasha no gushinga butike icuruza amavuta ndetse agacuruza n'imiti ivura indwara z'uruhu akaba atuganirije kuri byinshi yagezeho.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko akaba afite amaherena ku matwi ari muri forumasi icuruza imiti y'amatungo ndetse n'ibiryo by'amatungo.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru usutse imisatsi, akaba ari gukora muri farumasi icuruza imiti y'amatungo ndetse n'ibiribwa by'amatungo byongera umusaruro.

Isoko ricuruza amavuta yo kwisiga ndetse n'ayo kurya, harimo umugabo urimo ufite mashini wambaye umupira w'umweru ndetse n'ishati y'umukara, akaba afite mashini imbere ye.

Aho babika imiti y'amatungo kandi bakayahacururiza, iri mu ducupa dutandukanye hejuru muri etajeri harimo uducupa twinshi turi ku murongo ndetse no hasi.

Umuhanda wa kaburimbo wegereye inzu yubakishije amakaro, hakaba hegereye umuntu ufite igare n'undi wicaye kuri moto, hino y'uwo muhanda hari pasiparumu zihateye.

Abagabo n'abagore bahagaze. Umugore akaba yambaye ikanzu yo mu gitenge, undi akaba yambaye ikanzu y'umweru. Bakaba bafite igipara mu ntoki ndetse na telefone.

Abantu bari ku murongo bambaye ingofero z'umweru. Bakaba bafite icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku. Muri icyo cyapa harimo amabara y'ubururu ndetse n'ubururu bwererutse. Inyuma yaho hari amazu ahubatse ndetse n'imibyare.

Umupolisi uri mu muhanda hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo kirimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, inyuma yaho hakaba hari abantu benshi ndetse n'amamodoka.

Inzu nziza yubatse neza cyane ikaba irimo amabara y'icyatsi ndetse n'umutuku, hasi y'aho hakaba hicaye abantu benshi bambaye amapantaro y'ubururu ndetse bakaba bicaye ku ntebe z'ubururu bari kuganira.

Abanyeshuri benshi bari mu nzira bahagaze imbere yabo hari abandi bafite ifoto yanditseho ubuzima bwanjye uko bigaragara bari kwizihiza umunsi w'ubuzima cyangwa akaba ari izindi nyigisho bari gutanga.

Etajeri ipakiyemo amacupa harimo habikomo ubuki ndetse n'iyindi miti, akaba afite imifuniko y'imihondo, umweru ndetse n'ibipapuro byanditseho ibyo bikozwemo.

Indwara zifata uruhu cyane cyane muri Afurika ikaba yitwa ise, ikaba ifata uruhu rukazamo amabara ndetse bikaba biryana cyane iyo utagiye kwa muganga cyangwa ngo wisige amavuta abirinda ushobora no kuyimarana imyaka myinshi.

Inzu ebyiri ziri mu ibara ry'ubururu ndetse ibikuta bikaba bisize irangi ry'umweru, hanze hari intebe zicayeho abantu inyuma yaho hari igiti ki hateye.

Imbuga nziza cyane iteyemo indabyo zifite icyatsi n'ubururu, zikaba ziri inyuma y'igipangu hari n'igiti cya avoka kihakikije, kugira ngo zituma. Izi ndabyo zikurura inzuki zije gutara ubuki.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa kwa muganga twavuga nk'urushinge, igitoyi, umukasi ndetse n'akuma gapima uko umutima n'ibihaha bitera neza birambitse ku meza.

Ikigo nderabuzima cyubatse neza cyane, kiriho amatara ndetse na televiziyo abarwayi bareba mu gihe bategereje serivisi, hanze yicaye ababyeyi bazanye abana kubakingiza.

Inzu isize irangi ry'ubururu ndetse yanditseho amagambo imbere yaho hahagaze abantu kandi ikikijwe na jalide n'imbuga nziza hirya yiyo jaride hahagaze abana benshi ndetse n'abantu bashinzwe umutekano.

Inzu nziza cyane yubatse ku mbuga nziza hariho indabyo, kandagira ukarabe isakaye iri mu ibara ry'umweru, inyuma yaho hariho hariyo ibiti birebire bibamo ibisiga ndetse bikaba bizana n'umwuka mwiza duhumeka.

Inzu isize irangi ry'ubururu hanze ku idirishya hari umugabo uhahagaze wambaye umupira w'umuhondo ndetse hakaba hari kandagira ukarabe ikoreshwa mu kunoza isuku hanze ku muryango hakaba hari intebe ebyiri.

Udushashi turi mu ibara ry'umweru tukaba, turimo imiti itandukanye. Hakaba inyuma hariho akabara k'umuhondo kanditseho inyuguti ndetse n'ayandi magambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Ahantu heza cyane hubatse inzu isize irangi ry'umuhondo, inkingi zayo hakaba hariho ibirangi ry'ubururu, hahagaze umugore kuri kandagira ukarabe akaba ari gukaraba intoki.

Abagabo bavuye mu nzu harimo n'umuzungu bambaye imyambaro y'imikara ndetse n'imweruru umwe afite igipapuro bakaba basohotse mu nzu bavuye nko mu cyumba cy'inama, cyangwa ahandi hantu.

Inzu yubatse ahantu iri yonyine, ikaba ikikijwe n'ibiti by'ishyamba birebire biyisumba bizana umwuka mu bantu; ikaba ifite irangi ry'ubururu ndetse ibirahure byayo akaba ari icyatsi.

Inzu nini uko bigaragara muri sale ikaba yahuriwemo abantu benshi cyane, harimo abagore biteze ibitambaro mu mutwe ndetse n'umugabo uhagaze imbere wambaye ikote ry'umukara, akaba ari kubabwira ijambo.

Inzu isize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hariho icyapa cy'umweru cyandikishije amabara y'umukara, hanze hari akantu kahateretse, kari mu ibara ry'umweru, kameze nk'umunzani.

Imbuga nziza iriho amamodoka ndetse n'abantu benshi, ikaba yubatseho inzu isize irangi ry'ubururu, amabati y'umutuku, hari umugore wambaye agatambaro k'umweru ndetse n'umukara uhahagaze.

Abagabo batatu bambaye udupfukamunwa tw'umweru ndetse n'umukara, bari gukaraba intoki mbere y'uko bajya kwinjira mu cyumba cy'inama aho hagiye kubera ibiganiro, bari gukaraba ku bwogero buriho amakaro y'umweru ndetse hejuru hariho n'icyapa n'itara.

Abagabo n'abagore bahagaze imbere y'inzu y'ubururu ,bakaba bafite ibitabo mu ntoki ibikapu ndetse bambaye n'amataburiya, abandi bahetse amabage bakaba bari kwifotoza.

Inzu nini irimo amatara ari ku murongo, ikaba isize irangi ry'mweru, hejuru hakaba hariho ibirahuri ndetse no hasi hakaba harimo ibitanda biryamyeho abantu ndetse n'ibitariho abantu.

Icyumba cyiza gisize irangi ry'umweru kikaba kirimo idirishya ry'ibara ry'umuhondo, hakaba hicayemo umubyeyi uteruye umwana ndetse n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, imbere yabo hakaba hari ameza.

Inzu nziza cyane irimo ibirahuri by'umweru ikaba irimo etajeri hakaba harimo abagabo bari gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuhinzi bambaye amataburiya y'umweru ndetse bakaba bafite n'ameza babiteretseho.

Umudamu ukora kwa muganga akaba yambaye itaburiya ndetse n'igitambaro cy'umutuku nyuma y'uko yari amaze gukora amasuku kugira ngo abarwayi ndetse n'abandi baje muri izo serivisi zo kwa muganga babone aho bahagarara.

Icyumba kirimo imiti y'amatungo, ay'ingurube ndetse ihene n'intama, ikaba ipakiye neza kugira ngo bayirinde gupfa, ahantu iri nta zuba rihagera ndetse nta n'imvura.

Inzu nziza cyane irimo inzugi z'umukara ndetse isize irangi ry'umweru, harimo kositara ebyiri imbere yaho hari abagabo ndetse n'umugore bahagaze, bakaba bari kureba imbere yabo hari ameza.